Abakozi b'ikigo cy'ubwishingizi suniramu' bitabiriye imurikagurisha ari abagabo bane n'abagore babiri, bafite icyapa kinini cy'ubururu n'umweru kerekana ibyo bakora.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe nziza z'amafuyi, ku nkuta zisize irangi ryiza ry'umweru, hariho imitako y'umukara n'amakaro meza y'amako, mu nguni hateguye indabo zishimishije.

Icyumba cy'inama kirimo ameza magari n'intebe ebyiri z'imbaho zisize verine nshyashya, ku nkuta zubakishije amatafari ahiye hatatseho imitako ya kinyarwanda y'umukara n'umweru, hari isuku ishimishije.

Icyumba bakiriramo abantu hateguye amafunguro ateguye neza bya kinyamwuga, harimo umuceri, imboga, ibirayi bitogosheje n'iby'ifiriti, umaze kwarura ahita ajya gufungurira ku meza atatse neza.

Icyumba cyiza cyo kwakiriramo abashyitsi, kigizwe n'ibikoresho bitandukanye, birimo ameza n'intebe bya kijyambere, imitako ishimishije, urumuri ruhagije n'amadirishya yinjiza umwuka wo guhumeka nkuko amabwiriza y'ubuzima abiteganya.

Ubusitani bwiza burimo ibiti bitanga umwuka munsi yabwo hari pisine ushobora kogamo irimo amazi meza, n'aho kuruhukira umaze koga, hari imitaka minini kuri buri cyiciro cy'intebe.

Amagorofa abiri ateganye, iy'ubururu ifite imiturirwa itatu n'iy'umweru y'imiturirwa ine akorerwamo imirimo y'imyidagaduro, hari n'ubwogero bwa pisine naho kuruhukira hasakaje imitaka.

Inzu y'igorofa nziza y'umweru, ikikijwe n'ubusitani bugizwe n'ibiti by'indabo z'umuhondo n'umutuku, na pasparume ikase bishimishije, kuharuhukira biranejeje ugakomeza ubuzima, unezerewe cyane.

Abagenzi bari ku rugendo, bageze mu nzira bajya gufata icyo kunywa, harimo abagore batatu n'umugabo umwe. Biyakiriye muri kantine bahagaze kugira ngo bakomeze urugendo bafite imbaraga zihagije.

Isoko ryiza rya kijyambere, ricuruza imboga n'imbuto, harimo ibitunguru by'umweru, iby'umutuku, tungurusumu, biringanya, amashu, imyembe, amatunda, karoti na epinari, byose by'indobanure.

Isantere y'ubucuruzi itaratera imbere, abacuruzi barakorera hanze, ibicuruzwa byose biri hasi, abakorera imbere y'amaduka agizwe n'amabara y'icyatsi, ubururu, umutuku, hakenewe ubufasha bukomeye kugira ngo bubakirwe isoko rya kijyambere.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye higanjemo imboga zirimo intoryi, ibitunguru ,cokombure ,karoti, shufureri, mabiringanya, inyanya ,seriri, pavro, ndetse n'ibitonore bireze buri mucuruzi afite akumba ke gahagije.

Iduka rigari risize irange ry'umutuku ricuruza amaterefone ya Eyateri, imbere yaryo hari akazu ka MTN k'umuhondo, karimo umukobwa urimo kwakira abakiriya abishimiye cyane.

Umugabo yaje kugura telefone muri MTN, umukozi wayo wambaye umupira w'akazi w'umuhondo arimo kumwereka imikorere yayo. Anejejwe cyane no gukoresha simati fone kuko ni bwo bwa mbere agiye kuyitunga.

Icyumba cyo gukodesha cyiza gishimishije kigizwe nigitanda na matora bishashe neza gikikijwe nubusitani hanze butanga umwuka wo guhumeka ushimishijemo imbere kirimo ameza intebe n'akabati ushobora gukoreraho inama utaruhuka warangije gukora neza.